Icyumba cyangwa inyubako yo mu bitaro yerekana icyumba uko kimeze gusa uko bigaragara ni icyumba bakoreramo radiyorogi cyangwa sikaneri, aho basuzuma indwara zo mu mubiri mo indani

Iyi foto igaragaza mu bitaro muri deparitoma ya materinite boroke si, igaragaza materinite aho bafasha abagore bari kwitegura kubyara n'abana.

Iyi foto iragaragaza abantu babiri umwe aryamye undi akaba ari kumukoresha imyitozo navuga nka siterecingi cyangwa indi giminasitike iyo ari yo yose, ni ifoto igaragaza ko umuntu uhari ashobora kuba nk'umuganga cyangwa umuntu uzobereye mu bintu bya siporo birigufasha umurwayi.